Abakobwa n'abasore bicaye mu cyumba cy'inama, bambaye udupfukamunwa n'imyenda igiye isa, bafite n'uducupa tw'amazi imbere yabo.

Abagore batatu bambaye udupfukamunwa, umwe aryamye bigaragara ko atwite undi akoresha imashini yumva uko umwana ameze mu nda.

Umugore wambaye imyenda yo mu bitenge ari na cyo yiteze, acigatiye umwana, afite impapuro, ari ahantu hari n'abandi bantu benshi.

Abaganga benshi bambaye impuzankano ndetse n'amakarita abaranga, bari kumwe n'umusaza wambaye amadarubindi, bishimye baseka.

Abasore bane n'umukobwa umwe bambaye impuzankano z'abaganga, harimo n'abambaye amakarita mu ijosi ndetse umwe muri bo yambaye amadarubindi.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, bose imbere yabo harambitse amazi yo kunywa ndetse mu cyumba barimo harimo Ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Abaganga babiri bambaye udukoresho tw'isuku mu mutwe, bambaye n'uturindantoki ndetse n'imyenda y'amashashi, bigaragara ko bari kwirinda bafasha umurwayi wicaye ku gatebe.

Abantu b'ingeri zitandukanye barimo abagore, abasore, abagabo n'abakobwa bari kumwe, bigaragara ko basoje nk'inama.

Utwana duto tugera kuri tune turimo duseka, dukaraba intoki turi kumwe n'umuntu mukuru ufite igikombe ariwe uri kudusukira amazi agwa mu ibase iri hagati yatwo.

Umwana muto wambaye impuzankano y'ishuri ari gukaraba intoki ze, amazi ari kuva kuri kandagira ukarabe arimo agwa mu kabase k'umuhondo.

Umugabo uri kwikoreza umukobwa ijerekani, iriho ikirango cy'Ikigo cy'Isi gishinzwe abana.

Abana babiri bari kumwe umwe ari gukaraba intoki, undi afite igikombe ari kumusukira hariho ikirango cya UNICEF.

Abantu b'ingeri zitandukanye, barimo abasaza, n'abakecuru, harimo abasore, ndetse n'abantu bakiri bato, bitabiriye inama.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano bafite udukombe barimo baranywa amazi bari kuvoma mu kigega.

Abantu bari mu cyumba cy'inama, hari abagabo babiri bicaye imbere bayoboye inama n'amagambo avuga ngo duhagarike icyorezo cya Marburg.

Umwana ukiri muto, wambaye ikabutura y'umutuku n'udukweto dufunguye ari ku mugezi, arimo anywa amazi akoresheje ibiganza bye, iruhande hari indobo yo kuvomeramo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bamwe muri bo bambaye amakarita abaranga hari n'agatebe karambitseho amazi yo kunywa.

Umwana muto w'umukobwa wambaye impuzankano bigaragara ko ari umunyeshuri, uri gukaraba amazi asukuye mbere yuko yajya mu bindi.

Umukobwa urimo arafotora umugabo uri gukorera akana gato ijerekani irimo amazi, hari n'abandi iruhande babireba.

Abagore bari ku kumugezi babiri, bari guhaga kugira ngo amazi aze, umwe afite indobo, yateze amazi ari kugwamo.

Abana benshi bari ku mugezi umwe bari kurwanira gukaraba intoki, abakuru baruse abato babasunika ariko abana bishimye bari guseka.

Abagore batatu bicaye ku gatebe, bari kumwe n'umuganga umwe, ari kumupima yamushyizeho ibikoresho byifashishwa bapima uko umuntu ameze.

Abana babiri b'abakobwa bari kumwe, umwe ari gukorera mugenzi we indobo irimo amazi bamaze kuvoma ku mugezi uri iruhande rwabo.

Umugore ucigatiye akana gafite ikintu mu ntoki kari kurya, ari kumwe n'umuganga urimo aragasuzuma ngo arebe ikibazo gafite.

Akana kakiri gatoya, kari hagati mu mugezi w'amazi atemba, gafite ijerekani kayidubitsemo iri kujyamo amazi.

Umusore umwe n'abakobwa bane bose bambaye udupira tw'ubururu ndetse n'amakarita, bari ku cyapa cyanditseho UNICEF.

Abajyanama b'ubuzima bambaye impuzankano yabo ari benshi, bari kumwe, barimo baracurira, banaririmba, bigaragara ko bari mu gikorwa cyo kwishima.

Abasore babiri bari kuganira bafite udukomo dusa dufite ibara ry'ubururu, umwe ahetse igikapu, undi yambaye akagozi mu ijosi kariho ikarita.

Abantu bari kuganira bari mu nama, imbere hari amagambo avuga ko ari icyizere cya buri mwana wese, hari umugabo w'umuzungu wahagurutse bigaragara ko ari we uri kuvuga.

Abantu bari ku ivomo rusange bafite amajerekani menshi, atonze umurongo, amwe ari kujyamo mazi andi ategereje.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, ari gukaraba kuri kandagira ukarabe yo mu rugo.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye bari ahantu hamwe hari inzu y'ubuyobozi ifite ibendera ry'u Rwanda, imbere yayo imodoka y'ambulance.

Abantu bambaye imipira y'umweru iriho ibirango bisa, bicaye ahantu bigaragara ko bari nko mu nama, bareba umuntu uri kubabwira.

Umugore wambaye amadarubindi ari kugenda atanga udupapuro ku bantu benshi, bari mu nzira, bigaragara nk'aho hari ikintu ari kwamamaza.

Abana bambaye impuzankano ya kacyi bari ku ishuri, bari ku mugezi ufite impande zitandukanye zivaho amazi bakaraba intoki.

Umusaza wambaye ishati y'amakakaro n'ipantaro y'umukara, ari ku mugezi afite ikijerekani, bigaragara ko yaje kuvoma.

Amashusho y'abantu batandukanye barimo abakobwa n'abasore, barimo n'umuzungu hejuru hari amagambo yanditse ngo kudasiga n'umwe inyuma.

Abantu benshi bari ku mugezi bafite ibikoresho birimo indobo, amajerekani byifashishwa bavoma bahahuriye ari benshi.

Ishusho y'uruziga irimo umugore, iruhande hari amagambo yavuze avuga ko bagomba gufatanya n'abantu batuma ubuvuzi buboneka.

Abagabo babiri bari gusuhuzanya umwe afashe ibitabo, inyuma ya bo hari amagambo yanditse asobanura ko batsinze icyorezo cya Marbarg.

Umukobwa urimo aravoma amazi, akoresheje ijerekani y'umuhondo, iteretse mu mabase abiri, inyuma ye hariho imyenda yanitse.

Umugore uri kwa muganga ari kumwe n'umuganga nawe w'umugore, wamushyizeho ibikoresho by'abaganga, byifashishwa bapima uko umuntu ameze.

Abagore babiri n'abagabo batatu bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo harambitse amazi yo kunywa ari mu ducupa.

Ibirango by'ibigo bigiye bitandukanye, harimo ikigo gishinzwe kwita ku bana, harimo igishinzwe kwita ku mpunzi, harimo icyita ku buzima, n'ibindi bitandukanye.

Abagore bari mu cyumba cy'inama bari kureba imbere ahari umugabo uri kubigisha yandika ku rupapuro ruri imbere.

Umugore wambaye ishati idoze mu gitenge, afite udusatsi turyamishije, afite imiti ari gucuruza inyuma ye y'ubwoko butandukanye.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, bareba imbere, ahari umugore, bigaragara ko ariwe uyoboye inama, amashusho ari kugaragara.

Umusore wipfutse mu mumaso, yambaye agapira k'umukara bigaragara ko ashobora kuba afite ibibazo runaka bishobora no kumuriza.

Abantu bari mu nama barimo umugore ufite indangururamajwi, bigaragara ko ari we uri kuvuga, imbere ye harambitse mudasobwa.

Abantu babiri bari kumwe, umwe bigaragara ko afite ibibazo yihebye, mugenzi we amukozeho asa n'uri kumuhumuriza kugira ngo amere neza.

Abantu b'ingeri zitandukanye, barimo abasore, abakobwa, n'abagabo bakuze, ndetse n'umuzungu bari kumwe, bamwe bafashe impapuro.

Umugore w'Umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda Jeannette Kagame, iruhande rwe hari amagambo yavuze ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abakobwa babiri bari kumwe, umwe yambaye imyenda y'umukara undi yambaye ikanzu y'ubururu irimo akabara k'umweru bicaye bari kuganira.

Umugabo wambaye nabi, ufite ibintu byinshi bigaragara ko bafite ikibazo cyo mu mutwe, inyuma ye hari ikimodoka kinini, kiri kugenda.

Umugabo wambaye imyenda yacikaguritse afite n'amashashi wicaye ahantu, bigaragara ko afite indwara arwaye zifite aho zihuriye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umwana muto wambaye impuzankano y'ishuri igizwe n'ishati y'umweru, n'ubururu bwijimye ari kurya biswi.

Abantu b'ingeri zitandukanye barimo gutera ibiti ahantu hagiye hatandukanye, bambaye imipira imeze kimwe.

Umugore wambaye imyenda y'ibitenge arimo araseka agaragaza amenyo ye asa n'umweru, afite n'iminkanyari bigaragara ko ari umukecuru.

Umukecuru wambaye igitenge, afite imvi, atetse ku mashyiga n'isafuriya isa umukara, iruhande harambitse agakombe.

Isura y'umwana uri kurira amarira atemba, ijisho rye risa umutuku, bigaragara ko ababaye cyane.

Umugabo ufite indangururamajwi ku munwa, iruhande rwe hari amagambo yavuze ku buzima bwo mu mutwe, hepfo hari amazina ye Uwihoreye.

Imodoka nini yanditseho ko hari ivuriro rigendanwa, iparitse ahantu hicaye abantu bagiye batandukanye, hari udukunde turi kuganira.

Umugabo ufite imisatsi myinshi ndetse n'ubwanwa bwinshi, yambaye ishati y'umukara, agatuza ke kari hanze.

Umugabo wambaye ishati yo mu gitenge n'ipantaro y'umukara ari gusuhuzanya n'undi wambaye imyenda yacikaguritse, afite n'imisatsi myinshi.

Umuntu uri mu nama, afite indangururamajwi ari kubwira abagore bicaye, imbere yabo harambitse uducupa turimo amazi.

Umukecuru wipfutse igitambaro cy'umweru mu mutwe, yambaye n'urunigi ruriho amabara y'umuhondo ndetse n'ay'ubururu.

Abantu bingeri zitandukanye, bicaye mu cyumba cy'inama, bareba imbere bigaragara ko ariho hari umuntu uyoboye inama. Ku bikuta by'icyumba barimo hariho amashusho.

Umuganga wambaye amadarubindi, ari kumanika ifoto y'amenyo iyagaragaza neza, iruhande hamanitse indi foto.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi, uri mu cyumba cyo ku ishuri kirimo abana benshi, bamanitse imiti y'amenyo bigaragara ko bamaze kuyihabwa.

Umwana ukiri mutoya, uryamye kwa muganga, hari umuganga wambaye uturindantoki, ndetse afite ibikoresho byifashishwa bavura amenyo.

Umusore uri kwireba mu kirahuri arimo aseka yambaye ubusa hejuru, afite akagozi kifashishwa bahanagura amenyo.

Umwana mutoya uryamye kwa muganga, amaboko yambaye uturindantoki amukozeho, bigaragara ko barimo kumufasha mu menyo.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi y'umukara, uri kwa muganga, yicaye mu ntebe ari kwireba mu kirahuri aseka.

Ishusho igaragaza ukuntu amenyo y'umuntu aba ameze, haba hejuru ku gice cyegeranye n'izuru ndetse no hasi werekeza ku kananwa.

Ni icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe yo kwicaraho ndetse n'igitanda cyo kuryamaho mu gihe umurwayi ari kuvurwa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo ibitanda abarwayi baryamaho ndetse n'imashini zifashishwa babapima.

Umuntu wambaye uturindantoki dufite ibara rijya gusa umutuku, afite agakoresho kifashishwa bakura amenyo ndetse n'ikindi gihagarariye umunwa.

Umusore w'umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, yicaye mu cyumba kirimo igitanda umurwayi aryamaho igihe ari kuvurwa.

Umwana ukiri muto, ufite mu buroso bifashisha basukura amenyo, arimo araseka afite agasatsi gake n'amaso y'umweru.

Umugabo uri kumwe n'umwana muto, bambaye n'udupira tw'umweru, bafite akagozi kifashishwa basukura amenyo bose barimo barasukura.

Umuhungu n'umukobwa bari kumwe bambaye udupira tw'umweru bari kwireba mu kirori, berekana amenyo yabo ko asa neza.

Umukobwa wasamye afite agakoresho kifashishwa bahanagura amenyo, arimo arayahanagura anyuza hagati ya buri menyo abiri.

Umukobwa ufite imisatsi izinze y'umukara, hari umuntu ufashe amenyo atari mu kanwa, yafashe rimwe arigera ku ye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa n'abaganga mu buvuzi, harimo igitanda cyo kuryamaho, haririmo intebe ndetse n'insakazamashusho.

Umugabo w'umusaza ugeze mu za bukuru, wambaye amadarubindi afite n'imvi, uri guseka arebana n'umukobwa ukiri muto, bigaragara ko ari umuganga arimo ku mupima.

Umugore w'umukecuru ugeze mu zabukuru, uri kumwe n'undi w'umuganga ufite imisatsi miremire y'umukara; arimo aramufasha kurambura imitsi ye.

Umugabo n'umugore bigaragara ko bari mu zabukuru, bafite inziramugozi bari kurebamo, imbere yabo harambitse uducupa tubamo imiti n'ikirahure cy'amazi.

Umusaza ufashe inkoni, wicaye mu ntebe ari kumwe n'umukobwa w'umuganga ukiri muto, bari kuganira barebana banaseka.

Umusaza ugeze mu zabukuru, uri kureba mu nziramugozi ye, ari kumwe n'umukobwa w'umuganga, na we areba ibyo ari gukora.

Umugabo n'umugore bageze mu zabukuru, umugabo afite agacupa karimo imiti asoma amagambo yanditseho, imbere yabo harambitse utundi ducupa na two turimo imiti ndetse na mudasobwa.

Umusaza ufite imvi wambaye ishati y'umweru ari kumwe n'utwana tubiri dutoya twose yaduhaye utuntu turimo turarya.

Umusaza ufite imisatsi n'ubwanwa bw'imvi, yambaye agapira k'ubururu, afite akuma kifashishwa barambura ingingo, hari umukobwa uri kumufasha.

Umusaza wicaye mu kagare, ari kumwe n'umwana mutoya ufite imisatsi myinshi, bafite udukoresho twifashishwa bakina imikino ku nsakazamashusho.

Umusaza ufite imvi, wambaye agapira k'ubururu ari kumwe n'umukecuru nawe ufite imvi, wambaye n'umupira w'umutuku.

Umusaza ufite imvi ndetse n' ubwanwa bw'imvi, barimo kumukarabya amazi asimbuka nawe yahumirije.

Abakecuru babiri bafite utubando, bikenyeje bambaye udupira tw'umutuku mo imbere, bari mu muhanda bagenda, harimo n'abandi bantu b'ingeri zitandukanye bari kugenda.

Umukobwa ukiri muto w'umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse afite akamashini abaganga bifashisha bapima uko umuntu ameze.

Ikirango cy'igihugu rigizwe n'agaseke, ishaka, ingabo n'umugozi upfunditse n'amagambo munsi avuga ngo ''Minisiteri y'ubuzima''.

Umukecuru witeze igitambaro cy'umutuku, afite igipfuko kinini kiri ku jisho rye, bigaragara ko yarwaye amaso bakayavura.

Umugore ufite imisatsi myinshi y'umukara, iruhande rwe hari amagambo yavuze ku cyorezo cya korona virusi ku munsi w'ubuzima.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi, hari batatu bicaye imbere barimo abagore babiri n'umugabo umwe, inyuma hariho umutwe w'amagambo bari kwigaho.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi, harimo n'abicaye imbere bayiyoboye n'icyapa cyanditseho ko ari inama Mpuzamahanga iri kwiga kuri SIDA n'izindi ndwara zandura.

Ubwoko butandukanye bw'amakanseri harimo kanseri y'ibere ndetse na kanseri y'inkondo y'umura, n'izindi zigiye zitandukanye.

Abantu bari mu nama, harimo abagabo babiri bicaye imbere, bigaragara ko aribo bayoboye inama, ku gikuta imbere hari amagambo avuga ngo, duhagarike icyorezo cya marburg.

Umuganga wambaye ikirahuri gipfuka amaso, agapfukamunwa n'uturindantoki, ari kwakira umusore wambaye agapfukamunwa na we inyuma hari abandi.

Umugore urimo guseka wambaye amadarubindi, afite n'imisatsi myinshi y'umukara, yambaye n'ikarita imuranga, afite indangururamajwi.

Amagambo asobanura ngo ''hagarika korona''. Hepfo hagiye hari ibimenyetso byayo, ndetse n'icyo wakora mu gihe ubonye ibimenyetso.

Abakorerabushake batanga ubutabazi bw'ibanze, bari kumwe n'abaganga bafatanyije ngo batabare umuntu uryamye hasi.

Ikirango cyanditseho ngo amakuru meza n'ahandi handitse ngo urukingo rwabonetse ndetse kubyamamaza byaguriwe igihe.

Amagambo ari mu ibara ry'icyatsi avuga ko ari ikigo gishinzwe ubuzima bw'ibidukikije n'amatariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwacyenda, muri bibiri na makumyabiri na kane, bavuga ko ari umunsi wahariwe ibidukikije.

Abagore benshi bishimye bamanitse amaboko, bigaragara ko bari bari mu nama yigaga ku buzima bwabo mu buyobozi bw'abagore.

Inyubako nini iri kwakamo amatara bigaragara ko ari amasaha y'umugoroba, ifite igice kinini cy'ubusitani, hateyemo n'igiti.

Igice cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi, abarwayi baryamaho, hagati y'igitanda n'ikindi harimo umwenda ubitandukanya.

Amarembo magari yanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, avuga ko ari ibitaro bya Kabgayi, hari abantu bari kujyayo n'abavayo.

Icyapa cyanditseho amagambo afite ibara ry'ubururu avuga ko ari Ibitaro bya Ruhengeri biherereye i Musanze, iruhande rwabyo hari urujya n'uruza rw'abantu.

Inzu ifite amabati y'ubururu ndetse n'amarangi ayisizeho ari ubururu, imbere yayo hari abantu ndetse n'imodoka.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi, abarwayi baryamaho ndetse harimo n'inzitiramibu zibarinda Malariya.

Igikoresho cyo kwa muganga, cyifashishwa bareba utuntu duto cyane tutabasha kubonwa n'amaso y'umuntu bisanzwe, iruhande hari amazi.

Amagambo y'impine manini yanditse mu ibara ry'icyatsi ya R na C ebyiri, biranga ko aha hari Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Kanseri.

Inyubako nini igerekeranyije, iruhande rwayo hari imodoka, imbere yayo hari igiti cy'umukindo ndetse n'umuhanda munini wanyuramo imodoka.

Icyapa cyanditseho ngo Ikigo Nderabuzima cya Matyazo, inyubako yacyo iri inyuma hari n'abantu barimo kuvayo, iruhande hari umuhanda.

Igice k'inyubako yo kwa muganga, gifite hasi amakaro abonerana, hagiye hari imiryango itandukanye itangirwamo serivise zitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo insakazamashusho, agatebe ko kwicaraho n'igitanda umurwayi yaryamaho mu gihe yaba ari kwitabwaho n'umuganga.

Icyumba cyo kwa muganga gitatse neza, kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo igitanda umurwayi aryamaho n'intebe muganga yicaraho.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo ibikoresho byabugenewe, byifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri, bifite n'insakazamashusho.

Inyubako ndende, nini, ifite akazu gato kari imbere kanditseho ko ari ibitaro Sangwa, iruhande hari abagabo batatu bari kumwe.

Umuryango w'icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo ibitanda abarwayi baryamaho iyo bari kubavura.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, harimo igitanda umurwayi aryamaho, harimo insakazamashusho n'ibindi.

Igice cyo kwa muganga bigaragara ko ari ahantu ugera mbere, hari ibyerekezo bikuyobora, bitewe n'aho ushaka kujya.

Inzu nini igeretse iriho icyapa cyanditseho ko hari ibitaro bivura amaso, hariho n'agashusho k'ijisho.

Abantu b'ingeri zitandukanye, bifotoreje imbere y'ibitaro byanditseho ko ari ibitaro bya Rwamagana.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda birenze kimwe abarwayi baryamaho, mu gihe bari kwitabwaho n'umuganga.

Inzu icururizwamo imiti yitwa mu buzima bwiza, iri ahantu hagenewe ubucuruzi iruhande bahacururiza imyenda.

Inyubako ifite amabati y'ubururu, yubakishije amatafari ahiye, ku ibaraza ryayo handitseho amagambo avuga ko ari inzu y'ababyeyi.

Abasore n'abakobwa bambaye impuzankano bari kwa muganga mu cyumba cyaho, bafite ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu bushakashatsi bw'ibijyanye n'imiti.

Umukobwa bigaragara ko akiri muto, wambaye uturindantoki ndetse n'impuzankano y'abaganga, ari mu cyumba cyo kwa muganga, bigaragara ko ari umuganga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini nini yifashishwa bapima uko umurwayi ameze, ifiteho ahantu umurwayi aryama, ubundi kikamupima.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo igitanda umurwayi aryamaho iyo ari kwivuza ndetse harimo n'agatebe umuganga yicaraho mu gihe ari kuvura.

Igice kinini cyo kwa muganga kiri ahantu hanze, hari intebe zo kwicaraho, handitseho ko ari ahantu abantu bakirirwa iyo baje kwa muganga.

Inyubako nini cyane, imbere yayo haparitse amamodoka, ahagana ku ruhande hari ibendera ry'igihugu, hari n'abantu bari kwerekezayo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, birimo ibyo baryamaho baterura ibintu biremereye ndetse n'ibyo birukiraho.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda umurwayi aryamaho ndetse n'intebe yo kwicaraho, ku gikuta hashushanyije amashusho.

Igice cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi abarwayi baryamaho, ndetse harimo n'insakazamashusho zirenze imwe zifashishwa bagaragaza amashusho.

Inzu yanditseho amagambo avuga ngo "Ikigo nderabuzima cya Gishweru," mu ibaraza ryayo hahagaze abantu, hari n'abandi bicaye ku gatebe.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye, birimo igitanda cy'umurwayi, insakazamashusho, n'ibindi byifashishwa, barimo kumuvura.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi bimwe biriho n'abarwayi byose bifiteho inzitiramibu hejuru yabyo.

Akana gato kari kwa muganga, kambaye ubusa hejuru, kari kumwe na muganga wambaye agapfukamunwa arimo kukavugisha, iruhande hari undi musore na we bari kumwe.

Igice cyo kwa muganga, kirimo ibitanda byinshi abarwayi baryamaho mu gihe bari kuvurwa na muganga.

Inzu bacururizamo imiti, iriho icyapa kinini cyanditseho izina ryayo ndetse n'umuganga ukoramo witwa Murekatete, hariho n'ibigo by'ubwishingizi bakorana.

Inyubako nini ifite amabara yiganjemo ay'ubururu n'ikijuju, imbere yayo hari ahantu hari n'imodoka ihaparitse.

Umusore uri mu cyumba cyo kwa muganga, uri kureba mu nsakazamashusho ye, areba mu gice kimwe kigize umubiri w'umuntu, arimo atekereza icyo agiye kuwukorera.

Utubati turimo imiti myinshi itandukanye, harimo iri mu ducupa, indi iri mu dukarito twabugenewe n'amagambo avuga ko ari inzu icururizwamo imiti yitwa Gukomeza.

Umuntu wicaye ku kagare k'abafite ubumuga, yicaye hanze areba mu busitani ndetse n'imisozi iri hakurya.

Umuganga wambaye agapfukamunwa n'impuzankano y'abaganga, yambaye n'uturindantoki tw'ubururu arimo arakanda mu kirahure.

Igice cyo kwa muganga cyanditseho ko ari ububiko bw'imiti. Mu ibaraza hicayemo abantu bategereje guhabwa imiti.

Inyubako nini, imbere yayo haparitse imodoka nyinshi, hari icyapa cyanditseho ko ari ibitaro byitwa, Umusaraba wo hepfo.

Igikapu kirimo ibikoresho by'ibanze n'imiti itandukanye byifashishwa batanga ubuvuzi bwihuse umuntu ubukeneye.

Umukobwa w'umuganga wambaye impuzankano n'uturindantoki, ari gufasha umugabo uri kugendera mu byuma bimufasha kubasha gutambuka.

Abagabo babiri bapfukamye bafite udutambaro, bari kuganiriza umukinnyi wari uri gukina, akaba apfukamye bigaragara ko yari agize ikibazo.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukara ufite imisatsi miremire y'umukara, ubyutse ku buriri ari kwinanura yarambuye amaboko.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yaryamye hasi, akazamura umutwe n'igituza, yashyize amaboko hasi.

Agakoresho ko kwa muganga kifashishwa bapima ibintu bitandukanye, kanditsemo imibare rimwe, utudomo tubiri, mirongo ine na kabiri ndetse n'icyenda n'igice kimwe.

Agakarito gato k'umweru karimo imiti y'ubwoko butandukanye, na yo iri mu dukarito dufite amabara atandukanye harimo utw'ubururu, umuhondo, umutuku n'icyatsi.

Ipamba ry'umutuku, ryifashishwa bapfuka abarwayi, rifite akantu rizinzeho k'umweru, kameze nk'agahombo, kari imbere.

Umusore n'umukobwa bari gukora imyitozo ngororamubiri, umusore arimo anywa amazi, imbere yabo hari ibikapu binini by'umukara.

Ubwoko bwinshi bw'imiti butandukanye, iri mu bikoresho bitandukanye, harimo imwe iri mu ducupa, indi iri mu dukarito, indi iri mu dusashe twabugenewe.

Umukobwa wafashe igitambaro akakishyira ku rutugu, akaba afashe n'icupa ari kunyweramo amazi, ari ahantu bigaragara ko yahoze akora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye imyenda y'umukara, uri gukora imyitozo ngororamubiri, yahinnye amaguru, yazamuye ikibuno hejuru yarambuye amaboko.

Umusore wambaye imyenda y'umukara uri gukora imyitozo ngororamubiri, yazamuye ukuguru kwe kw'iburyo akagushyira hejuru akagufatishaho n'amaboko ye.

Abantu babiri bari mu myitozo ngororamubiri bigaragara ko ari umusore ndetse n'umukobwa bafite amacupa y'amazi.

Agacupa k'amazi meza yo kunywa, imbuto zitandukanye, ibyuma byikoreshwa bakora imyitozo ngororamubiri na metero.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yarambuye amaguru ye, yicaye ku mukeka, ubundi amaboko akayakoza munsi y'ikirenge.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yazamuye amaboko ye hejuru, yambaye n'isaha ndetse no mu gutwi kwe bigaragara ko ari kumva indirimbo.

Umusore wambaye agapira k'umukara k'amaboko maremare, afite icupa ry'umweru ririmo amazi arimo kuyanywa.

Uducupa tugera kuri dutanu, turimo imiti ariko buri kose gafite umugozi ugafasheho, kamwe ari umuhondo, akandi umutuku, akandi icyatsi, akandi ubururu, akandi umukara.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, warimo ayikora akaba yapfukamishije ivi rimwe irindi ryifashe mu ivi.

Uducupa dutatu, duteye kimwe, dufite ibara rimwe ry'umweru, turiho agapapuro kanditseho amagambo, asobanura guhagarika uburibwe.

Umusore wambaye agapira kajya gusa umweru, warambuye ukuboko kwe kw'iburyo, bigaragara ko kuriho imvune, yashizeho ishashi, ayifatishije ukuboko kw'imoso.

Imbuto z'ubwoko butandukanye, icyuma cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri ndetse n'agacupa gatoya karimo amazi yo kunywa.

Umuzungu ufite imisatsi miremire, ufashe inziramugozi arimo arahamagara, imbere ye harambitse insakazamashusho, ndetse n'utundi dukoresho tugiye dutandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini nini yifashishwa bapima uko umuntu ahagaze, ifite aho umuntu aryama iyo bari ku mupima.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, afite umwenda mu ijosi rye w'umweru, afite n'agacupa arimo anywa amazi.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'umukara, wazamuye ukuguru kwe bigaragara ko kwavunitse cyangwa gufite ikibazo.

Ingobyi igezweho yo kwa muganga yifashishwa batwara abarwayi, ifite amabara y'umuhondo n'imigozi y'umukara bazirikisha umurwayi uryamyeho.

Umusore n'umukobwa bambaye impuzankano y'ikigo gitanga ubutabazi bw'ibanze, bari mu kibuga ahantu hari gukinirwa umupira barimo barafasha umukinnyi waryamye hasi.

Udukoresho tw'ibanze dutandukanye, turimo imiti iri mu ducupa, harimo indi iri mu masashe, hari inshinge ndetse n'impapuro z'isuku.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yicaye hasi, imbere ye hari mudasobwa iruhande hari utwuma two guterura ndetse n'agacupa k'amazi.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, yahinnye ukuguru kwe kw'iburyo, agufatiye imbere mu gituza cye, ukw'ibumoso kurambuye neza.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi y'umukara yarambuye amaboko hejuru, arimo akora imyitozo ngororamubiri.

Umusore ufite agatuza kanini, bigaragara ko yakoze imyitozo ngororamubiri, afite ibimenyetso birimo icy'icyatsi n'umutuku biri ku rutugu rwe.

Abaganga bari mucmba cy'inama bambaye udupfukamunwa n'udukoresho tw'isuku two mu mutwe, bari kuganira n'abandi bari ku insakazamashusho.

Ibimenyetso bitandukanye, birimo kuribwa n'umutwe, harimo kuruka, harimo kubura ubwenge bitunguranye, harimo kumva unaniwe.

Umuntu uri kugendera ku byuma, bigaragara ko atabasha kwigenza, ari kumwe n'undi uhagaze afashe imipira bakina.

Ukuboko kw'iburyo bisa naho kwavunitse kuriho ishashi yifashishwa bavura imvune ifashwe n'akaboko kandi k'ibumoso.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini nini, yifashishwa bapima abarwayi uko bameze, harimo amamashini aba abigaragaza.

Ikirahuri gitoya kiri kujyamo amazi meza avuye mu ibinika na yo isa neza, ni amazi bigaragara ko ari meza.

Ingobyi igezweho ifite ibara ry'umuhondo, ifite n'udushumi tw'umukara bafungura iyo umurwayi agiye kuyiryamaho nyuma bakadufunga ngo abe afashe neza.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yazamuye amaboko ye, yashize ukuguru kwe kw'iburyo inyuma, ukw'ibumoso kuri imbere.

Ikirango cyanditseho ngo Ibitaro bya Gisirikare by'u Rwanda, hari amagambo menshi arimo imiti, ubuvuzi, ibitaro, ubuzima, ubumenyi.

icyatsi cy'umuharavumba giteye mu muririma urimo ibindi byinshi bifite n'inyange z'umuhondo zisa neza

Umuntu uri mu murima uhinzemo ibyatsi bitandukanye, arimo aravuna udushami tw'igiti kimwe cy'umuti gakondo.

Agacupa karekare k'umweru, kanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, hariho n'ikimenyetso cy'igisiga kiguruka.

Izina ry'umuti ryanditse mu magambo y'umweru, hepfo hari andi magambo avuga ngo vuga oya ku kubagwa, iruhande hari agakarito kariho amashusho y'ibihingwa menshi bigaragara ko ariwo muti w'gisubizo.

Agacupa karimo imiti hariho agapapuro k'umweru kanditseho izina ry'umuti, hariho n'ikimenyetso cy'igisiga kiguruka ndetse n'igikakarubamba n'izindi mbuto zifashishwa bawukora.

Igiti cy'umuharavumba giteye ahantu hagati y'amazu kifashishwa n'abahatuye bivura indwara zitandukanye.

Imiti y'ubwoko butandukanye, iri no mu macupa atandukanye, hari abiri y'umukara n'andi y'umuhondo n'andi y'umweru n'irindi riri ryonyine.

Imiti y'ubwoko butandukanye, iri mu macupa atandukanye, harimo imwe iri mu ducupa duto, indi iri mu bikarito, indi iri mu macupa manini harimo n'iry'umuhondo.

Imiti y'ubwoko butandukanye iri mu bi bikarito bigiye byanditseho amazina y'imiti arimo imbere, hari n'amashashi na yo yagenewe kubikwamo imiti.

Ubwoko bw'imiti gakondo butandukanye burambitse ku gakeka, imwe isa umutuku, indi isa umuhondo hari n'ibibabi, hirya hari udukono twifashishwa bari kuyitunganya.

Ibihingwa biteye ahantu hari byinshi, byose bimeze kimwe bifite ibara ry'icyatsi kandi bisataguye, bigaragara ko biri ahantu bihingwa.

Uducupa tubiri tw'umuhondo turimo imiti, iruhande hari agashashi na ko babikamo umuti, biri kumwe n'igikarito cyanditseho fa cumi na gatanu.

Ubwoko butandukanye bw'imiti gakondo, harimo imwe isa n'umuhondo, indi ifite ibara ry'umutuku, hari n'indi isa nk'icyatsi.

Ishashi ibamo umuti yanditseho amagambo avuga ngo igihe cyose hariho ikirango cy'igisiga kiguruka ndetse hananditseho ko hajyamo amagarama cumi n'arindwi.

Igiti cy'umuharavumba giteye ahantu hari ibindi biti by'ubwoko butandukanye, bigaragara ko ari mu ishyamba ahantu byimeza.

Agacupa gafite ibara ry'umweru kanditseho amagambo afite ibara ry'icyatsi, hariho igihingwa cy'igikakarubamba ndetse n'ikirango cy'igisiga kiguruka.

Uducupa twinshi tumeze kimwe ariko dufite imifuniko itandukanye imwe ari umweru indi ari umutuku, twose turiho mu dupapuro twanditseho,..

Uducupa duteye ku buryo butandukanye, tumwe ari imikebe utundi ari uducupa dusanzwe, twose turiho ibirango bisa, bigaragara ko dukorwa n'uruganda rumwe.

Agacupa gato gafite ibara ry'umweru kariho agapapuro kariho izina ry'umuti urimo ndetse hariho n'uruyuki ruri mu rurabo.

Icyumba kirimo imiti gakondo myinshi, iri mu bikoresho bitandukanye, birimo nk'uducupa, hari n'ibyifashishwa bayitunganya, birimo nk'uducuma n'ibyungo.

Umuti gakondo wa kinyarwanda uteye ahantu hari ibindi byatsi byinshi bitandukanye hagaragara nk'aho ari mu ishyamba.

Umugabo uri mu nzu irimo imiti myinshi y'ubwoko butandukanye, iri mu ducupa n'amagambo yanditse avuga ngo kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo.

Umugore ufashe agakapu mu ntoki, yambaye imyenda y'umweru, arimo arasoroma ibyatsi ahantu hari n'insina.

Ibyatsi byinshi biri kumwe bisa, bifite ibara ry'icyatsi biteye ahantu hagaragara nkaho ari mu ishyamba.

Uducupa twinshi tumeze kimwe twanditseho amagambo amwe, hariho n'igikakarubamba, kuri buri cupa hariho ku hajyamo maganatatu miliritiro.

Igiti gifite uruyange, gihinze hagati y'ibyatsi byinshi, bigaragara ko kiri ahantu mu ishyamba, hateye ibindi biti byinshi.

Agakarito k'umweru kariho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi, iruhande hari ibinini biba bibitse muri ako gakarito.

Ubwoko bw'imiti igiye itandukanye iri mu bikoresho bitandukanye: hari iyo mu ducupa duto, indi iri mu bikarito, indi iri mu mashashi.

Akabakure karimo umutobe ukozwe mu mbuto, karambitse ku gasahani kariho ibice by'imbuto bakase bari gukora umutobe.

Ibiganza bifashe ku nkono, irimo ubwoko butandukanye bw'ibyatsi bishyirwa hamwe kugira ngo babashe gukora umuti gakondo.

Ubwoko bw'imiti igera kuri itandatu. harimo imwe iri mu gakarito, indi iri mu gacupa kagufi, indi iri mu ducupa tureture, hepfo ya buri muti hari izina ryawo.

Agakarito kavamo imiti, hariho izina ry'umuti ryanditse mu ibara ry'icyatsi, hariho n'ikimenyetso cy'igisiga kiguruka ndetse n'ibihingwa byifashishwa bakora umuti urimo.

Umuti gakondo uri mu kirahuri ukozwe n'ibintu bitandukanye harimo tangawizi n'ibindi byatsi bavanze kugirango bawukore.

Uducupa dutatu tubikwamo imiti gakondo kamwe gasa umuhondo, utundi dusa umweru inyuma hari igihingwa cyifashishwa bakora imiti irimo.

Agakarito kabamo imiti kanditseho C icyenda, hariho umukobwa wifashe mu manyanyinya.

Ubwoko bw'imiti butandukanye buri mu bikoresho bitandukanye, hari iri mu ducupa dutoya tw'umweru, indi iri mu mashashi, indi iri mu macupa manini.

Uducupa tugera kuri dutatu tumeze kimwe, twanditseho amagambo atandukanye ariko twose dufite ikimenyetso cy'igisiga kiguruka ndetse n'igikakarubamba.

Uducupa duteye ku buryo butandukanye, harimo utureture n'utugufi; handitseho amagambo asobanura ubuziraherezo, twose dufite ikimenyetso gisa.

Amagambo avuga ko ari umunsi Mpuzamahanga wahariwe imiti gakondo y'Abanyafurika, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri.

Agacupa gato k'umweru kariho agapapuro kanditseho amagambo afite ibara ry'ubururu n'umubare mirongo itandatu, kanariho ikimenyetso cy'igisiga kiguruka.